Inama ni ahantu hahuriwe n'abantu benshi, abayobozi ndetse n'abandi bitabiriye inama, bakaba bagamije kuganira ku iterambere ndetse n'ibindi biganiro byabungura muri rusange.

Igihe cyose habayeho guteranira hamwe ku bayobozi b'inzego runaka zitandukanye, haba hitezwe impinduka zidasanzwe, bityo umuntu wese witabiriye iyo nama uzasanga ayihugukiye ashaka kumenya ibiri kuhavugirwa.

Inama ni ikoraniro ry'abayobozi batandukanye, bahuriye mu cyumba kimwe bagamije umugambi umwe, usanga higanjemo abo mu nzego zitandukanye, ari zo nzego z'ibanze, n'inzego zo hejuru ndetse n'inzego z'umutekano, ikoraniro rero akenshi riba ryitezwemo imyanzuro myiza, yafasha umuturage gutera imbere.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwo guhuza abayobozi b'uburyo bwiswe inama, aho bahurira hamwe bagahanahana ibitekerezo by'icyateza imbere umuturage, aha buri wese ahabwa ijambo kandi akaba ahugukiye ibyo yajemo, ndavuga iyo nama.

Ibiganiro hagati y'abayobozi ba za guverinoma zitandukanye, iteka iyo byabayeho abaturage baba biteza impinduka, ibitagendaga neza bumva ko biri bukosorwe ndetse n'ibyagendaga neza bigashyirwamo imbaraga.

Mu rwego rwo kumenya ibibazo abaturage bafite n'uko byakemuka, guverinoma yashyizeho uburyo bwo gutegura inama, abayobozi bakegera abaturage, bityo bakamenya ibibazo bafite n'uburyo byakemukamo.

Guhurira hamwe kw'abayobozi biri muri bimwe bituma iterambere ryihuta, aho iyo bahuye baganira ku cyabateza imbere ndetse bigateza imbere n'igihugu muri rusange.

Mu gihe habonetse ikibazo rusange ku isi hose, ni byiza ko habaho guterana kw'abayobozi, bakikoresha inama ubwabo mu bihugu bitandukanye, bityo hagafatirwa umwanzuro ntakuka wo gukemura icyo kibazo.

Ihuriro ry'abayobozi b'inzego zitandukanye, usanga iteka ryose ryitezwemo impinduka, aho uzasanga harimo impuguke zitandukanye, zitanga n'ibitekerezo biganisha ku iterambere.

Inama ni uburyo bwashyizweho na Guverinoma. Aho abayobozi bahurira hamwe bakaganira ku kibazo runaka ndetse bakagishakira umuti. Ibi iyo byabayeho ndavuga guteranya inama, abaturage baba biteze ko bari bubone impinduka ku byari bihari bidasanzwe.

Mu rwego rwo gutanga serivisi inoze muri za guverinoma zitandukanye, ni byiza ko habaho inama hagati mu bayobozi kugira ngo bategurare ibyagirira abaturage umumaro.

Kwitwaza ikayi n'ikaramu igihe cyose ugiye ahantu hateraniye abantu benshi ni ingenzi cyane, urugero igihe ugiye mu nama kuko haba hari bufatirwe imyanzuro myinshi ni byiza ko witwaza ikayi n'ikaramu, kugira ngo uze kwandika ibyagufashije n'ibyakugiriye umumaro.

Ni byiza gukurikirana buri kimwe cyose kirigutambuka aho uri cyane cyane igihe cyose witabiriye inama, cyangwa se ibindi bikorwa byaguhuje na bagenzi bawe. Ibi bizagufasha kuba wakwandika iby'ingenzi, ndetse ibyo by'ingenzi wanditse ukabisangiza bagenzi bawe batahabonetse.

Guhuriza hamwe abaturage cyane cyane ubashishikariza uko bakwiteza imbere, ni bumwe mu buryo leta ikoresha mu rwego rwo kugira ngo bahuze ibitekerezo, ufite ikibazo akibaze ndetse n'ufite igisubizo amusubize.

Icyumba kiberamo inama, usanga abakirimo bose batuje, aho baba biteguye kumva no gufata imyanzuro kubigiye kuganirwaho, akaba ariyo mpamvu usanga umuntu wese uhageze aba agomba kwitondera amabwiriza yatanzwe.

Guverinoma yashyizeho uburyo bw'inama, bwo guhuza abayobozi mu nzego zitandukanye, kugira ngo bige ndetse barebe icyateza imbere umuturage mu buryo bwose bushoboka.

Inama ni uburyo guverinoma yashyizeho bwo guhuza abaturage n'abayobozi, bityo abaturage bakagaragaza ibibazo bafite ndetse abayobozi na bakaganira uko ibyo bibazo byakemuka.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwo guhuza urubyiruko, bakaruhuriza hamwe ndetse rugatanga ibitekerezo ku byatuma rwiteza imbere, aho bishoboka guverinoma ikabafasha ndetse bakaba bagana n'ibigo by'imari bikabafasha kwiteza imbere.

Ibiganiro hagati y'abayobozi ubwabo, bigira umumaro, aho usanga bareba ibitagenda neza bakabishakira umuti ndetse n'ibigenda neza bakongeramo imbaraga.

Gutanga ikiganiro ni uburyo bukoreshwa n'umuntu wese ushaka gutambutsa amakuru ku kintu runaka. Aho utanga ikiganiro avuga ibyamuzanye, nyuma yaho abitabiriye ikiganiro buri wese agatanga ibitekerezo uko abyumva.

Mu gutanga ikiganiro, utanga ikiganiro aba agomba gusobanura neza ibyo ashaka kumvikanisha ndetse akitegura gusubiza ibibazo bimwe na bimwe aza kubazwa ku kiganiro yatanze.

Inama akenshi usanga abayiganjemo ari abaturage, dore ko aribo ngenerwabikorwa ndetse hakaba harimo na bamwe mu bayobozi, tutibagiwe abashinzwe umutekano.

Guhuriza hamwe abantu barenze umwe, bahabwa ibiganiro ku bintu bitandukanye, ni bumwe mu buryo guverinoma yashyizeho mu rwego rwo kumenya ibibazo abaturage bafite, ndetse n'uko byakemurwa.

Inama ni uguterana hagati y'abayobozi batandukanye. Iyi inama akenshi usanga igamije kureba ku iterambere ry'umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Guhuriza hamwe abaturage, ubakoresha inama, ni bimwe bituma umuturage na we yiyumva ko afite agaciro mu bijyanye n'iterambere ry'Igihugu, aho na we agaragaza ibitekerezo bye ndetse n'aho afite ikibazo akakibaza.

Iyi nama ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu guhuriza hamwe abantu batandukanye, hagamijwe gutanga ibitekerezo ku mpande zombi, ugize ikibazo arahaguruka akabaza ndetse n'uri gutambutsa ikiganiro muri iyo nama, akaba amuteze amatwi yiteguye kumusubiza.

Ibyumba by'ikoranabuhanga, ni byo usanga byiganjemo ibikoresho, nka mudasobwa, ama ekuteri, hedifone, ndetse n'ibindi byose bijyana nabyo.

Mu gihe wumva ko hari impinduka zigiye kuza muri serivisi watangaga, ni byiza ko umenyekanisha amakuru mbere, aho bisaba amahugurwa ukayatanga, ibi bifasha buri muntu wese gusobanukirwa neza.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda, kirashishikariza abaturage bose kugerageza uko bashoboye impera z'ukwezi kwa kabiri kukarangira buri wese yamaze gutanga ibyo asabwa ndetse akabitangira ku gihe. Ibi bizamufasha kwirinda ibihano bya hato na hato bigenerwa abatubahiriza amabwiriza uko yateganyijwe.

Mu kwihutisha iterambere usanga guverinoma yarashishikarije urubyiruko ndetse n'abakoze kugura amasimatifoni, ibi bikabafasha kuba baguriye ibicuruzwa onulayini cyangwa bagagura ubucuruzi bwa onulayini hifashishijwe za mudasobwa.

Kwamamaza ibicuruzwa na za serivisi, ni uburyo bwiza bufasha uwamamaza ushaka kumugurira cyangwa abo kumugana ndetse n'undi wese waba ukeneye izo serivisi atazi aho yazikura.

Ibyumba bibamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, uzasanga ari ibyumba bifite umwihariko, aho buri muntu wese ugeze muri icyo cyumba asangamo umwanya we ndetse harimo n'igikoresho cy'ikoranabuhanga cy'iwe yihariye, urugero nka mashini.

Igihe cyose hagaragaye impinduka cyane cyane ziri mu buryo bubi biteza ingaruka mbi, ni byiza ko guverinoma ishyiraho amabwiriza yihariye. Ayo mabwiriza azamenyekana binyuze mu kwamamaza ku maradiyo n'amateleviziyo cyangwa kubyandika ku byapa, bikamanikwa ahantu henshi hatandukanye hahurirwa n'abantu benshi.

Mu rwego rwo kwegereza abaturage ibyabafasha mu guhabwa za serivisi, guverinoma yashyizeho uburyo butandukanye bwo kubafasha harimo n'uburyo bw'irembo, ubu buryo rero buzabafasha kubona serivise harimo n'izikorerwa onorayini.

Ibyapa bigaragaza amatariki asigaye kugira ngo umusoro wishyurwe, usanga iteka ryose handitseho igihe uwo musoro uzatangirwa ndetse n'itariki ntarengwa ugomba kuba watangiweho. Ibi bigafasha umuntu wese utaratanga umusoro kuwutangira igihe mu rwego rwo kwirinda ibihano.

Mu rwego rwo kunoza serivisi ndetse no kuzitanga neza byihuse, buri kigo gitanga serivisi kigomba gutegura uburyo bwo kwamamaza, yaba gushyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kwandika ku byapa ibyo bakora n'igihe babikorera.

Umusozi ni ahantu hahanamye aho buri wese areba akabona ko imvura iramutse iguye nta biti bitewemo byashobora guteza ingaruka, ari yo mpamvu leta ishyiraho ubukangurambaga ku baturage bose mu rwego rwo kwirinda ingaruka zava mu misozi harimo isuri, bityo buri muturage arashishikariza gutera imirwanyasuri.

Ni byiza ko buri kigo icyo ari cyo cyose cyagira ikirango kibaranga, kugira ngo igihe habayeho serivisi ziberekeye umuntu wese ubonye icyo kirango ahite asobanukirwa byihuse.

Mu rwego rwo kugaragaza imikorere n'imikoranire y'Irembo, hashyizweho uburyo bwo kurimenyekanisha, harimo gukora ibyapa bitanga amakuru arambuye ku buryo Irembo rikora.

Ikirango cya REB, umuntu wese ukibonye, adashidikanyije ahita yumva ko aho hantu hatangirwa amakuru ajyanye n'uburezi ndetse n'uburere bwo mu mashuri.

Itangazo rigaragaza uburyo umuntu yakwaka mitasiyo ku bijyanye n'icyo yaguze, urugero nk'ikinyabiziga. Usanga ryanditsweho inzira iyo ari yo yose wacamo kugira ngo iyo mitasiyo ikorwe. Biityo, icyo kinyabiziga ugitunge cyitwa ko ari icyawe.

Gukoresha mudasobwa biri mu bituma serivisi zihuta ndetse buri muntu wese uzi gukoresha mudasobwa, aba ashobora gufasha guverinoma muri gahunda zitandukanye.

Buri kampani igira amabwiriza ayigenga, iyo bisabwa ko wishyura, hari amabwiriza agena igihe cyo kwishyura ndetse n'igihe ntarengwa, iyo igihe ntarengwa kigeze, bitewe n'uko baba bafite ibyapa ndetse n'ibindi bigaragaza amakuru yaho, uhabwa ibihano igihe cyose utayubahirije.

Icyapa ni ikintu gishyirwaho n'abantu runaka, kigamije kuyobora cyangwa se gutanga amakuru ahagije kuri za serivisi runaka, aho ugeze kuri icyo cyapa asoma we ubwe akikurira n'amakuru amureba.

Mu rwego rwo kugaragaza serivisi ikigo runaka gikora, bisaba ko icyo kigo gikora uburyo butandukanye bwo kwamamaza, yaba gushiraho ibyapa cyangwa se bagakoresha ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, bwatuma ubutumwa bwabo butambuka byihuse.

Ibikorwaremezo ni ingenzi mu gihugu kuko bifasha mu kugaragaza icyo gihugu mu mahanga ko cyateye imbere, haba harimo inzu zubatse neza z'amayetaje ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bigaragaza ubwiza bw'icyo gihugu.

Guverinma ifite gahunda y'uko mu ntumbero y'imyaka iri imbere buri muturage wese yaba afite umuriro w'amashanyarazi, ibi bikamufasha mu kwiteza imbere.

Muri iki gihe cy'imvura idasanzwe buri muturage wese arashishikarizwa gutera ibiti by'umurwanyasuri mu rwego rwo kwirinda ingaruka zose zaba zituruka ku mvura nyinshi harimo n'isuri muri rusange. Ikindi kandi nk'uko iterambere ry'u Rwanda riri buri muturage aragenerwa umuriro w'amashanyarazi kugira ngo iterambere rirusheho kwihuta byose ni ubufatanye hagati y'abayobozi n'abayoborwa.

Mu rwego rwo gufasha abaturage, guverinoma yashyizeho uburyo bwo kwimura abantu begereye umuhanda cyane, kugira ngo umutekano wabo ube wizewe.

Icyapa kigaragaza imipaka itandukanye ibihugu cyangwa uturere, ni ingenzi cyane kuko gifasha abaturage yaba abinjirana n'abasohoka gusobanukirwa aho bageze ndetse n'aho bavuye.

Ibyapa biri mu byo guverinoma ikoresha kugira ngo amakuru atambuke ku buryo bwihuse. Ibi byapa uzabisanga ku muhanda, ku ma ofisi ndetse n'ahandi henshi hatandukanye hatuma ayo makuru agera ku bantu mu buryo bwihuse.

Amataransifo menshi uzayasanga ku muhanda, aho uzasanga ahuriweho n'insinga zitandukanye, zigiye ahantu hatandukanye, ibi ngibi nibyo guverinoma ikoresha kugira ngo buri muturage wese agerweho n'amashanyarazi.

Amapoto ashingwa ku muhanda ni bimwe mu byo guverinoma yashyizeho, bigamije kugira ngo buri muturage wese agerweho n'umuriro, aho usanga insinga zose zihuriyeho ndetse na buri muturage wese akaba yafatiraho.

Mu rwego rwo koroshya ingendo ku baturuka mu byaro no mu mujyi, guverinoma yashyizeho uburyo bwo kubaka amavuriro ahantu henshi hatandukanye kugira ngo ukeneye ubuvuzi abibone byihuse.

Ibitaro ni bumwe mu buryo guverinoma yashyizeho mu rwego rwo gufasha abaturage kubona ubuvuzi bw'ibanze, ugiye mu bitaro rero aba agomba kwitabwaho kuko intego ya guverinoma ni uko umuturage yagira ubuzima bwiza.

Ibitaro ni ahantu hahurira n'abarwayi benshi ndetse n'abarwaza tutibagiwe n'abaganga, mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwabo, guverinoma yagiye ishyiraho inyubako zitandukanye bitewe na serivisi buri muntu wese akeneye.

Uburyo bwo kubakira inyubako mu yindi, buri mu buryo guverinoma ikoresha cyane cyane nko mu bitaro, aho usanga bubatse nyuma bagashyiramo izindi nyubako, aho abagenzi cyangwa se abarwayi n'abarwaza bazajya baca bagiye kwaka serivisi, yaba mu gihe cy'imvura ariko ntibibagireho ingaruka.

Ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro, ni uburyo guverinoma yashyizeho bwo gufasha abaturage mu rwego rwo kugira ngo igihe barwaye bajye babona ubutabazi bw'ibanze vuba, ugeze muri ibyo bigo rero uhasanga ibyapa biyobora abagenzi aho bagomba kubona serivisi byihuse, urugero nk'icyapa kigaragaza ahafatirwa imiti cyangwa se aho babyarira, aho babagira n'ibindi.

Ubu buri bitaro cyangwa ikigo nderabuzima, Guverinoma yashyizeho uburyo bw'uko bajya bagira imbangukiragutabara zibafasha, mu rwego rwo kugira ngo hatagira ubura ubuzima kubera kubura ubutabazi.

Inyubako nziza zigaragarira amaso, ni bimwe mu bigaragaza ko igihugu kiri mu nzira y'iterambere cyangwa se ko cyateye imbere, ni yo mpamvu buri muntu wese uteganya kubaka yubaka mu buryo bugezweho.

Mu rwego rwo gukumira ndetse no kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro, guverinoma yashyizeho ko buri nyubako yose igomba kuba ifite kizimyamwoto bityo bikazafasha igihe cyose hagize ahagaragara inkongi y'umuriro.

Mu bikorwa bya guverinoma muzahasanga ibendera ry'igihugu, twabona nko kuri sitade, ku mirenge, ku tugari ndetse n'uturere, ahantu hose iyo uhageze uhasanga ibendera ry'igihugu.

Bimwe mu byo guverinoma iri gushyiramo imbaraga, harimo kubaka inyubako zigezweho zijyanye n'amajyambere, bityo umuntu wese ushaka kubaka agomba kugira inyubako ikomeye, yaba ibigo by'imari, ibyigenga ndetse n'ibyegamiye kuri leta.

Mu bitaro aho babyarira cyangwa se aho babagira, iyo uhageze usanga abantu benshi bacecetse, bitewe n'uko buri wese aba yibaza ku kigiye kumubaho cyangwa se ikigiye kuba ku murwayi arwaje.

Imbangukiragutabara ni bumwe mu buryo guverinoma yashyizeho, kugira ngo bujye butanga ubutabazi bw'ibanze, yaba ku mpanuka cyangwa undi muntu wese windembe, ubu buryo rero byagaragaye ko ari ingenzi mu bigaragara.

Amateka y'umuntu wabayeho ariko akaba atakiriho, biba byiza kubikwa ariyo mpamvu guverinoma yashyizeho uburyo bwo kubika amateka y'abantu babayeho mu gihe cya Jenoside cyane cyane ababaye intwari.

Byakunze kugaragara ko iyi myenda yambarwa irimo ubwoko bw'amakanzu afungiye hejuru, usanga akenshi yambawe n'abacamanza, ibyo bikaba bigaragara kenshi mu nkiko igihe bari guca imanza.

Mu rwego rwo kunoza imikoranire myiza hagati y'abayobozi n'abayoborwa, ni byiza ko buri muntu wese yitabwaho bitewe n'ikibazo afite. Kigakurikiranwa kugeza gikemutse.

Mu rwego rwo kwirinda ubutubuzi bwa hato na hato mu bijyanye no gutanga serivisi, guverinoma yashyizeho ko buri serivisi yajya igira umwambaro uyiranga, ari yo mpamvu usanga mu banyamategeko, yaba bacamanza buri muntu wese yambaye umwenda uranga ko ari umucamanza, ibyo bigakura urujijo mu bashaka serivisi zimwe na zimwe zitandukanye.

Ibigaragara mu igazeti ya leta byose bigomba kubahirizwa uko byakabaye, bitabaye ibyo umuntu wese utazabikurikiza agomba guhanwa n'amategeko.

Abanyamategeko benshi, usangwa barangwa n'uko baba bambaye imyenda y'akazi. Harimo imyenda y'amakanzu, aho usanga, ari imyenda y'akazi koko, kuko mu minsi isanzwe udashobora gusanga iyo imyenda bayambaye.

Uwateguye imbwirwaruhame aba agomba guhabwa umwanya uhagije kugira ngo ubutumwa afite abugeze ku bandi, ibi kugira ngo bigerweho ni uko hagomba gutegurwa n'uburyo bwo kugira ngo amajwi agere ku bantu, harimo gukoresha mikorofone ndetse no kugira umutuzo hagati y'abateguye imbwirwaruhame.

Igororero ni ahantu hashyizweho na guverinoma mu rwego rwo kugira ngo hajye hashyirwa abantu bafite amakosa cyangwa ibirego baregwa, bananiranye cyangwa se barenze ku mategeko.

Imfungwa usanga ari abantu bakoze ibyaha bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo babatandukanye n'abandi, guverinoma yabashyiriyeho uburyo bwo kubaha imyambaro isa ndetse n'igikorwa cyose bagiyemo bakagendera hamwe nta n'umwe usigaye.

Mu gihe byagaragaye ko hari icyorezo cyageze mu gihugu cyandurira mu matembabuzi nk'amacandwe n'ahandi, ni byiza ko buri muntu wese agerageza gupfuka umunwa, mu rwego rwo kugira ngo bimufashe kwirinda icyo cyorezo, ashobora kuba yakwanduzwa na bagenzi be cyangwa se na we akacyanduza abandi.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwo gukurikirana abantu bagize uruhare muri Jenoside yabaye muri mirongo icyenda na kane ndetse bashyiraho n'uburyo bwo kwibuka abagize ubutwari muri iyo myaka.

Umuntu wese mu nshingano n'umurimo akora, aba agomba kwambara umwenda umuranga, ari yo mpamvu uzasanga abacamanza benshi bambaye amakanzu agaragaza ko umurimo wabo wihariye.

Inyandiko zisobanura amategeko ndetse n'ibihano ku bishe ayo mategeko, uzasanga hakubiyemo byinshi bitandukanye, kandi muri ibyo byinshi usanga abenshi ntabyo bazi; ariyo mpamvu biba byiza ko buri muntu wese ushaka kumenya ingingo imurengera yasoma izo nyandiko, bikamufasha.

Inama ni igikorwa gihurizwamo abaturage n'abayobozi, hagamijwe gufata imyanzuro ku iterambere ry'abayobozi ndetse n'abayoborwa, abari mu nama rero babasaba kuba bahari, kandi nta gisibya cyatuma umuntu wese wayitumiwemo ayiburamo.

Guverinoma yashyizeho uburyo bw'imodoka z'imbangukiragutabara, aho zihamagarwa igihe cyose hari ahantu hagaragaye nk'impanuka cyangwa ahandi, mu rwego rwo gutabara amagara cyangwa se ubuzima bw'abari bari aho hantu.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu butabazi bw'ibanze igihe habonetse ahantu hari inkongi y'umuriro, ibi bifasha mu kuzimya ndetse no kugira bimwe birengerwa igihe habaye impanuka n'inkongi y'umuriro.

Nk'uko biteganywa na Repubulika y'u Rwanda, umuntu wese uhawe inshingano mu nzego z'ubuyobozi aba agomba kurahira, ibyo ngibyo akabihamisha kuzamura ikiganza hejuru, ndetse agafata no ku ibendera ry'igihugu.

Ihuriro ry'abayobozi, ni igikorwa kibaho kigamije gufata imyanzuro ku kibazo cyagaragaye cyangwa se gushyigikira igitekerezo cyatugeza ku nzira y'iterambere, iryo huriro rero abaturage baba baryitezemo imyanzuro idasanzwe izabafasha mu nzira y'iterambere.

Bimwe mu byo guverinoma ikoresha mu guhererekanya ububasha cyangwa mu gushimira, ni uburyo bwo gukorana mu biganza, bigaragaza ko hari ubumwe hagati y'abantu babiri bahanye ibiganza.

Mu rwego rwo kwegera abaturage, guverinoma yashyizeho uburyo bw'uko buri muyobozi yajya ava mu biro akajya guhura n'abaturage, ibi bizabafasha kumenya ibibazo abaturage bafite n'uburyo byakemukamo.

Uburyo bwa guverinoma bwo gutanga serivisi neza, ni uko bigomba guhera mu nzego z'ibanze, mu Tugari, Imidugudu n'Imirenge, kugera ku rwego rw'Akarere, byarimba bikagera ku rwego rw'Igihugu.

Mu gihe habaye inama ya guverinoma ugahabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo ni byiza ko ugenzura neza niba icyo gitekerezo cyawe cyubaka cyangwa se byaba nta mumaro gifite ukaba wakihorera.

Iyo abayobozi b'inzego zitandukanye bateraniye hamwe, biba byitezwe yuko imyanzuro iribuve muri iyo nama iri buze gufasha abaturage mu gusubizwa bimwe mu bibazo bibazaga, ariyo mpamvu biba ari byiza ko mbere y'uko iyo nama iterana buri muturage wese aba agomba gutanga ibitekerezo bye kuko burya umuturage ari ku isonga hejuru ya byose.

Mu kunoza serivisi neza, ni byiza ko uje ashaka serivisi nkuko guverinoma yabitegetse, buri biro byose bigomba kuba bifite intebe zakira abaje babagana.

Ahantu hose hari kubera amatora runaka, hateganywa ikintu cyo gushyiramo udupapuro tw'abatoye, ibi ngibi bifasha kuba nta jwi na rimwe ryatakara cyangwa ngo uwatowe hagire amajwi ye yabura.

Igihe cyose hari ubukangurambaga runaka, uzasanga hari umutumirwa. Kandi uwo mutumirwa azaba afite byinshi agiye kubwira kuri abo yatumweho. Ikizamuranga kenshi aba afashe microphone, iyo microphone ikaba imufasha kurangurura amajwi akagera ku bo yatumweho.

Nta kibaho kinezeza abaturarwanda ndetse n'abandi baturage bose, nko kubona umukuru w'igihugu yaje kubaganiriza ndetse akabaha inama zabafasha mu bijyanye n'iterambere ryo muri ubu buzima.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwo kugabanya impanuka mu muhanda, aho yashyizeho kubaka imihanda migari, buri modoka yose cyangwa buri kinyabiziga cyose kikagira ubwisanzure.

Mu rwego rwo kwirinda impanuka ziterwa n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, moto cyangwa imodoka, guverinoma yashyizeho uburyo bwo kubaka imihanda, imihanda ikaba ifite uruhande rw'imodoka zinyuramo urwo moto zinyuramo ndetse n'abanyamaguru.

Mu gutwara ibicuruzwa hifashishwa uburyo butandukanye, nko gukoresha imodoka nini ikoresha amamoto ndetse n'ibindi, ariko mu bigaragara ubu buryo bwo gukoresha imodoka nini buri mu buryo butuma hatwarwa ibintu byinshi kandi mu gihe gito.

Bimwe mu biteza impanuka mu muhanda, usanga harimo kudahana umwanya hagati y'abatwazi bombi, yaba abatwara imodoka ndetse na za moto. Kwirinda izi impanuka rero, ni byiza ko abatwara ibinyabiziga bitondera cyane cyane amabwiriza agenga umuhanda. Abatwaye imizigo ndetse n'abantu ni ngombwa ko bahana umwanya kugirango impanuka zigabanuke mu muhanda.

Imodoka zigisha abantu gutwara usanga ari imodoka mu buryo bugaragara ziba ari ntoya, kandi ugasanga umuntu uyigendamo ari utwaye n'uwo yigisha.

Guverinoma yashyizeho uburyo bworoshye bwo koroshya ingendo hagati y'abagenda, yaba abinjira mu gihugu n'abasohoka abari mu gihugu, yabashyiriyeho uburyo bwo kugenda n'imodoka bityo bakagera aho bagiye mu gihe gito.

Imodoka zitwara abantu n'ibintu, ziri mu byo guverinoma iri gushyiramo imbaraga nyinshi, hari no gukaza umutekano wabyo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byatuma abantu batwawe bagera mu rugendo rwabo amahoro.

Imodoka zitwara abantu zibavana aho bari zibajyana ahandi, ni bumwe mu buryo guverinoma yashyizeho mu rwego rwo koroshya ingendo, mu bava mu ntara bajya mu yindi, bava mu karere bajya mu kandi.

Amwe mu mabisi manini atwara abantu, usanga iyo ageze mu muhanda yateje ikibazo, ariyo mpamvu guverinoma yashyizeho gahunda yo kubaka imihanda itanga ubwisanzure ku mpande zombi.

Akenshi mu masaha y'umugoroba, usanga mu muhanda harimo urujya n'uruza rw'abagenzi, yaba abagendesha amaguru, ibinyabiziga ndetse n'ikindi kintu cyose cyabafasha mu kwihutisha urugendo.

Gushyira imihanda henshi hatandukanye, haba mu mijyi no mu byaro, ni bumwe mu buryo guverinoma iri gukoresha kugira ngo yihutishe iterambere kandi rigere kuri bose.

Mu rwego rwo gufasha abaje babagana, buri kampani itwara abagenzi iba igomba kugira icyapa kiyiranga, kugira ngo byorohereze buri muntu wese ushaka kubagana, kumenya kampani agannye iyo ariyo.

Mu rwego rwo kugabanya impanuka zo mu muhanda, guverinoma yashyizeho uburyo bwo gushyira amatara ku muhanda, kugira ngo igihe ibinyabiziga bigenda nijoro cyangwa abanyamaguru babe bagendera ahantu habona.

Bimwe mu biteza urujya n'uruza rw'abantu ndetse no kugenda gake mu muhanda ku binyabiziga, ni zimwe mu modoka nini ziba zitwaye amapeteroli n'ibindi.

Mu buryo bwo gutwara abantu mu gihe gito kandi benshi. Guverinoma yashyizeho amwe mu mabisi manini, ajyamo abantu benshi. Ibi bikaba bifasha kugabanya urujya n'uruza rw'abantu benshi mu magare menshi, aho imodoka zihagarara.

Ubu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu usanga bukorwa mu buryo butandukanye aho usanga bamwe bagenda ku modoka bitwaye, abandi bakagenda ku ma moto, abandi bakagenda mu modoka za rusange.

Imihanda migari igira uruhare mu gukumira zimwe mu mpanuka zibera mu muhanda. Kuko iyo iyo mihanda yubatswe neza, haba hari uruhande ngenderwamo n'imodoka, amamoto, amagare ndetse n'abanyamaguru.

Ihuriro ry'abamotari n'abagenzi, ni bumwe mu buryo guverinoma yashyizeho kugira ngo borohereze abaturage kumenya aho babashakira mu buryo bwihuse batabanje kujirajira ngo babure iyo bava n'iyo bajya.

Urujya n'uruza rw'abantu rukunze kugaragara mu muhanda, aha ngaha mu rwego rwo gukemura impanuka zimwe na zimwe, guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ko igihe hubakwa umuhanda, hategurwa n'uruhande ruzajya rugenderwamo n'abanyamaguru.

Imigaragarire y'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere cyangwa cyateye imbere, uzasanga hari imihanda igezweho ndetse n'ibindi bigaragaza yuko icyo gihugu cyateye imbere.

Buri cyapa cyo ku muhanda cyashyizweho na guverinoma kiba gifite ibisobanuro byacyo, ariyo mpamvu umuntu wese ugeze ku cyapa nta kintu agomba gukora, atabanje kureba niba koko icyo cyapa kitakibuzanya.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwo gutangaza amakuru, ukoresheje ibyapa, aho binyuze ku cyapa ubona ko biciyeho umurongo, uhita umenya ko aho hantu bibujijwe kuhanyura, yaba ku kinyabiziga cyangwa umunyamaguru.

Buri cyapa cyose cyashyizwe ku muhanda kiba gifite umumaro wacyo niyo mpamvu kitagomba kwirengagizwa, ahantu hose ubonye icyapa rero ni ngombwa kwitonda kugira ngo utaza gukora amakosa kandi nyamara wakabaye uyirinda.

Urugabano rutandukanya imipaka n'indi, rushyirwaho kugira ngo rufashe abinjira n'abasohoka kumenya iyo bava ndetse n'iyo bajya. Ibi birabafasha cyane ku buryo nta rujijo rugaragara kuko babona icyapa kibayobora.

Ukibona icyapa cyo ku muhanda cyanditseho abanyeshuri, ibyo ni ibimenyetso mpuruza by'uko aho ngaho ugiye kugera aha ikigo cy'amashuri, bityo ku buryo ubaye hari ubufasha ukeneye wabona aho ngaho kuri icyo kigo.

Buri cyapa cyo ku muhanda, kiba gifite ubusobanuro bwacyo, iyo ari icyapa gishushanyijeho umunyamaguru, biba bivuze ko, aho hantu ariho abanyamaguru bagomba guca, bakambukiranya bajya mu rundi ruhande.

Mu rwego rwo gusobanurira umuntu aho ageze ndetse n'ikihakorerwa, guverinoma yashyizeho uburyo bwo gushyiraho ibyapa ku muhanda, ibyo byapa bikaba bisobanura buri kimwe cyose kiranga aho hantu.

Iterambere ry'igihugu runaka uzasanga rirangwa n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo inyubako, harimo imodoka, harimo imihanda ndetse n'ibindi bikorwaremezo bigaragaza ko icyo gihugu cyateye imbere.

Mu rwego rwo guteza imbere umuturage, yaba uwo mu mujyi, n'uba mu cyaro, guverinoma yashyizeho uburyo bwo kubakira imihanda abatuye mu byaro, ndavuga imihanda ya kaburimbo, kugira ngo buri muntu wese yisange mu iterambere ry'igihugu.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwo guhurira hamwe, hagati y'abacuruzi n'abaguzi, ibi bikaba byarashyizweho mu rwego rwo kugabanya abantu benshi mu muhanda, bacuruza nyamara batari mu isoko ryemewe.

Zimwe mu nyubako nziza zigaragara mu imbere mu gihugu, zigaragaza ko igihugu kiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ko cyateye imbere, ibi bigatera imbaraga ibindi bihugu bidafite zimwe muri izo nyubako.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwiza bwo guteza imbere abantu bose butarobanuye, aho yegerereza ubuyobozi abaturage, imihanda y'igitaka ikubakwamo za kaburimbo kugira ngo buri muntu wese yisange mu iterambere kimwe n'abandi.

Bimwe mu byo guverinoma iheraho ivuga ko igihugu kiri gutera imbere, ni inyubako zimwe na zimwe zigezweho, aho usanga hari ibintu byiza bigaragarira amaso, uwahageze wese akabona ko koko iterambere riri kwihuta.

Mu rwego rwo kwita ku muturage kugira ngo abone serivisi nziza, guverinoma yashyizeho uburyo bwo kubaka amasoko aciriritse yegereye abaturage kugira ngo buri muntu wese yisangemo.

Mu rwego rwo guteza imbere ibikomoka mu Rwanda guverinoma yashyizeho uburyo butandukanye, bwo kugaragaza neza icyo u Rwanda ari cyo ndetse n'ibikiranga, harimo amahoteli meza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Bimwe mu biro by'imirenge n'uturere, byegerejwe abaturage kugira ngo bafashwe, banabone serivisi nziza kandi yihuse. Ni byiza ko n'aho bitaragera, byashyirwamo imbaraga nyinshi na bo bakagerwaho n'ibiro bibegereye, dore ko bibafasha mu nzira y'iterambere no gukemura ibibazo mu buryo bwiza.

Imihanda ya kaburimbo, ni bimwe mu bigaragaza ko igihugu kiri mu nzira y'iterambere cyangwa se ko cyateye imbere, aho usanga mu gutwara ibinyabiziga byoroshye ndetse n'abanyamaguru bikaborohera.

Imihanda yubakiye hejuru y'indi mihanda ni bimwe mu bigaragaza ko igihugu cyateye imbere, ibi kandi bifasha mu koroshya ingendo yaba ku bagenda n'amaguru ndetse n'abagenda n'ibinyabiziga.

Imihanda igerekeranye aho usanga umwe uciye hejuru y'uwundi, ubu ni uburyo guverinoma yakoresheje kugira ngo yihutishe ingendo hatabayeho umuvurungano w'abantu benshi cyangwa se ibinyabiziga.

Imihanda ni kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu, ari yo mpamvu mu kuyubaka usanga bayitondeye cyane, bakazirikana ko bagomba gusiga aho kwambukira, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Bitewe n'uko mu muhanda haba hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu, mu myubakire y'imihanda hashyizweho uburyo bwo kugaragaza ahantu ibinyabiziga bigomba guhagarara, bityo n'abanyamaguru bakambuka.

Imyubakire y'umuhanda usanga yubatswe mu buryo butandukanye aho usanga hari ahagomba kunyurwa n'abanyamaguru, ahagomba kunyurwa n'imodoka ndetse n'amamoto, ibi bigakorwa mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato.

Amatara yo ku muhanda, ari mu bituma impanuka zigabanuka, cyane cyane n'ijoro, bitewe nuko ibinyabiziga cyangwa abanyamaguru, iyo bagenda, baba babona hagaragara neza, hari umucyo, nta mwijima uhari, ku buryo byateza impanuka.

Mu budasa bwa guverinoma igira ni kubakisha imihanda. Uzasanga iyo mihanda barashyizemo imirongo y'imyeru, iyo mirongo ikaba ifasha abanyabiziga n'abanyamaguru, kuko ikinyabiziga kigeze muri iyo mirongo gihagarara noneho abanyamaguru bakambuka.

Uburyo bwo gushyira amatara ku muhanda ni bumwe mu buryo guverinoma yakoresheje kugira ngo igihe bwije, ibinyabiziga bitazajya bikora impanuka, bityo buri muntu wese ugenda yaba utwaye cyangwa ugenda n'amaguru agende ari kumurikirwa abona aho ageze kandi agende mu bwisanzure.

Amahuriro y'imihanda, ni hamwe mu hantu hateza urujijo igihe cyose umuntu ageze muri iyo mihanda aribwo bwa mbere, bityo bisaba ko ugeze muri ayo mahuriro abanza kwitonda kugira ngo ataza gukora impanuka.

Imihanda migari, ni bumwe mu buryo guverinoma yifashishije mu rwego rwo kugabanya, impanuka ziterwa n'ibinyabiziga kubera ubwinshi bwabyo, umuhanda ukaba muto, ariko aho umuhanda mugari wubakiwe, impanuka zaragabanutse ku rwego rwo hejuru.

Guverinoma yashyizeho uburyo bwiza bwo korohereza abaturage ingendo, harimo kubukira imihanda ndetse imihanda myiza inoze yabafasha mu gutwara abantu ndetse n'ibintu byabo.

Uruhurirane rw'imihanda itandukanye ni bimwe mu bituma habaho impanuka, igihe cyose abagenda muri uwo muhanda batitonze, bityo birasaba ko buri muntu wese ugenda mu muhanda yitondera ahantu hemejwe ko uhageze agomba guhagarara, aho hantu hakaba harangwa n'uko haba hari imirongo y'umweru mu muhanda mo hagati.

Imihanda ya kaburimbo, iri mu byo guverinoma iri gushyiramo imbaraga, mu rwego rwo koroshya ingendo, yaba ku bagenda n'amaguru cyangwa abagenda n'ibinyabiziga, ibi ngibi bikaba bigaragaza ko igihugu kiri gutera imbere cyangwa se kiri mu nzira y'amajyambere.

Amahuriro y'umuhanda ni ahantu usanga hahuriye imihanda itandukanye, ari imanuka, izamuka, itambika, ari yo mpamvu muri ayo mahuriro hashyirwa ibyapa biyobora abantu bose batwara ibinyabiziga mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Igihe cyose bwije ni byiza ko buri mazu yo ku muhanda acana amata ndetse n'amatara yo ku muhanda umwihariko wayo akagaragara bityo bizafasha abantu bakora ingendo za nijoro kugenda nta kibazo bikanga.

Mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato, guverinoma yashyizeho gahunda nziza yo kubaka imihanda ndetse inoze, aho iyo mihanda ibi irimo imirongo iciyemo y'umweru, bivuze ko iyo mirongo ifasha mu kugabanya impanuka, kubera ko ibinyabiziga bihageze birahagarara bigahana umwanya ndetse n'abanyamaguru bakanmbuka mu buryo bwihuse.